Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bazagere mu mashuri abanza bafite aho bageze mu bumenyi bakora imyitozo ngiro myinshi igendana n'ibikorwa bifatika.

Mu mashuri y'inshuke usanga abarimu naho bakoresha amamikorofone, kugira ngo bafashe abana kumva neza bitewe nuko baba basakuza iyo avugiye muri mikorofone, abamwumva bose bamwumva neza.

Amashuri y'inshuke mu kiciro cyayo cya mbere icya kabiri n'icya gatatu usanga harimo abana basa n'abafite ubwenge burenze ubw'abandi ku buryo ibyo mwarimu abigishije usanga hari abana babyumva kurusha abandi.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke babashe kubona ubumenyi buhagije, abarimu babigisha bagerageza gukoresha ibishushanyo mu rwego rwo kugira ngo ubumenyingiro bwabo buzamuke, nibagera mu mashuri abanza bazahite bakomerezaho.

Mu rwego rwo kugira ngo abana babashe kugira imikurere myiza mu gihagararo ndetse no mu bwenge, bagomba kurya neza indyo yuzuye ndetse n'ababyeyi babo igihe batwite n'igihe babonsa, ibi bituma iyo bageze mu mashuri y'inshuke batagorwa cyane.

Mu rwego rwo kwigisha abana biga mu mashuri y'inshsuke yaba icyiciro cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu, ni byiza ko berekwa ibintu mbere yuko babibwirwa kugira ngo amazina yabyo bayafate mu mutwe, kabone nubwo zaba ari mu ndimi z'amahanga.

Mu mashuri y'inshuke usanga hari iby'icungu by'abana kugira ngo bigishwe imibare ndetse n'ikinyarwanda ariko nibagera aho n'abatangiye kurambirwa bashyirwe mu byicungo bagaruke mu mwuka wo kwiga.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke babashe kuzamuka bafite ubumenyi buhagije, biga umwaka wa mbere wayo, mu mwaka wa kabiri wayo ndetse n'umwaka wa gatatu w'amashuri y'inshuke kugira ngo babone ubutangira amashuri abanza.

Abana biga amashuri y'inshuke iyo bari kwigishwa inyamaswa bazibereka ku bishushano, hari ubwo baberereka impala, imparage, ibisamagwe, ingona ndetse n'inzovu, iyo babibonye barishima cyane kuko baba babona bitabarya.

Abana bo mu mashuri y'inshuke usanga akenshi na kenshi iyo bakina baba bakina za mabigibigi n'ibindi, umwarimu aba agomba kubaba hafi kuko hari ubwo bashobora kwenderanya abana bamwe bagakubita abandi.

Mu rwego rwo kwimakaza uburezi bufite ireme leta y'u Rwanda yashyizeho umuco wo kugira ngo abanyeshuri bajye batangira bafite imyaka itatu baherere mu cyiciro cya mbere cy'amashuri y'incuke bajye mu cya kabiri ndetse n'icya gatatu.

Mu rwego rwo kugira ngo abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza mu cyiciro cyo hasi berekwe ko bitaweho, ni byiza ko niba basoje igihembwe ababaye indashyikirwa bashimirwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke usanga bigishirizwa ku bikinisho bisa naho bibakangura ubwonko kugira ngo bategurirwe kwinjira mu mashuri abanza bafite ubumenyi buhagije buzabatwara no mu bindi byiciro by'amashuri biri imbere.

Umuco wo gusoma ukwiriye guhera mu batoya yaba ku biga mu kiciro cy'amashuri y'inshuke ndetse n'abanza kugira nibagera mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza bazabe bafite ubushake n'umuhate wo gukora ubushakashatsi.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri biga mu byiciro by'amashuri y'inshu, bazagere mu mashuri abanza bafite ubumenyi buhagije, usanga leta yarashyizeho gahunda y'uko bagomba gutangira bafite imyaka itatu, ku myaka ine bakajya mu wa kabiri w'ay'inshuke, ku myaka itanu bakajya mu wa gatatu.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza mu gihe cya Corona virus, bageragejwe kwegerezwa amazi meza ngo bakarabe intoki ndetse bakanahatirirwa gushyira intera hagati yabo. Yari intera ya metero kugira ngo batanduzanya.

Impyisi mu Rwanda ubona ko atari inyamaswa zikunda kuhagaragara cyane, mu yandi magambo ni inyamaswa zacitse zisa n'aho nke zisigaye ziri muri pariki, abanyeshuri biga mu mashuri abanza rero bazerekwa mu buryo bw'ibishushanyo.

Kugira ngo umwana abashe gukura neza mu bijyanye n'ubwenge, ni byiza ko niba utangiye amashuri y'inshuke agomba guhabwa iby ibyiibanze byose bikenerwa, yagera no mu mashuri abanza kandi bigakomeza kugenda uko.

Amashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke usanga ahurira ku kintu kimwe, icyo bahuriraho cyane ni uko bakoresha ibikoresho bigaragaza amashusho atari aya nyayo ariko afasha abanyeshuri kuzamura imitekerereze.

Amashuri menshi abanza usanga anafite ibyiciro by'amashuri y'inshuke ku buryo abana babyigamo bose usanga ari intiti, rimwe na rimwe iyo umwana yahawe ubumenyi bw'ibanze akiri muto n'iyo ageze hejuru biramufasha.

Mu rwego rwo kugira ngo abana bo mu mashuri abanza bazagere mu mashuri yisumbuye bafite ubumenyi ku mibare, iyo biga imibare bifashishwa ibintu bifatika, hano hari karoti eshatu munsi bandikaho umubare gatatu, amagi ane munsi bakandikaho kane.

Amashuri abanza, ay'inshuke ndetse n'ayisumbuye usanga ari byo bikora abanyeshuri b'ejo hazaza bagomba kuzajya muri kaminuza ndetse bagomba no kuzavamo abayobozi b'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri abanza cya Ruyenzi kiriho igiti cya pinusi ndetse na sipure, hari ho jaride imeze neza inariho indabo, izo ndabo imbere yazo harimo ibendera ry'igihugu rihashinze.

Amashuri y'inshuke ndetse n'abanza ni hamwe mu hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo abana bagiye mu mashuri yisumbuye bazajyeyo bafite ubumenyi bw'ibanze ndetse n'umusingi ugomba kubafasha kugeza abayasoje bakazagirira Igihugu akamaro.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri bakurane umuco wo kumenya amateka yabo, ni byiza ko Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gusobanurira abanyeshuri biga mu mashuri abanza ibijyanye n'umuganura.

Inyubako igezweho yubakishije amatafari ahiye ifite ibirahuri ndetse na sima, ni imwe mu nyubako zigirwarwamo n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza kugira ngo bagire ubumenyi buzira amakemwa.

Ibishushanyo by'ibigori umuneke urusenda ndetse na piripiri byashyizwe hamwe kugira ngo bifashe abanyeshuri kwiga kubara ndetse no kwandika ariko bakoresheje ubumenyi bw'ibifatika.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye mu gihe cya COVID-19 ndetse no mu mashuri abanza udasize na za kaminuza, wasangaga bicaye bashyizemo metero hagati y'umunyeshuri n'undi, kandi buri umwe akaba yambaye agapfukamunwa.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe biragaragara ko ari abanyeshuri bo muri kaminuza ndetse no mu mashuri yisumbuye baje guhabwa inyigisho ku bijyanye n'umutekano wo kuba ijisho rya mugenzi wawe.

Mu gihe k'icyorezo cya Kovide cumi n'ikenda wasangaga ku nyubako za Leta by'umwihariko ku mashuri, amasoko n'amavuriro hari imigezi isa n'aho ifasha abanyeshuri gukaraba kandi bajya gukaraba bagakaraba bashyizemo metero.

Ku nyubako nyinshi za Leta uhasanga amajarde ndetse n'abashinzwe gukora isuku n'abaharinda umutekano, rimwe na rimwe biragoye ko wabona inyubako ya Leta itariho ibendera ry'Igihugu, riba rimanitse ahantu hitegeye abahareba bose.

Mu mashuri yisumbuye usanga abanyeshuri bakunze gukorera cyane mu matsinda iyo bari gukora imikoro bahawe n'abarezi babo. Yaba iy'imibare, Amateka, Ubugenge, Ubumenyi bw'isi n'Ubutabire.

Abanyeshuri bo mashuri yisumbuye buri uko umwaka usojwe abari mu wa gatandatu, bakora ikizamini gisoza amashuri yabo abategurira kujya muri kaminuza kwiga ibyo baba baratangiriye mu mwaka wa kane.

Amashuri abanza n'ayisumbuye rimwe na rimwe hari ubwo aba ashobora kugirana isano ritaziguye. Umwana wize neza mu mashuri abanza iyo ageze mu mashuri yisumbuye ntabwo ajya agorwa no gukurikira amasomo mwarimu we amuha.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bagize urugendo shuri bajya gusura ishyamba rya Nyungwe, bavuyeyo bakiriwe muri hoteli ihari maze baganirizwa ku bigize ibyo byiza nyaburanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye buri mwaka bagira igihe cyo kwegerezwa ibikorwa bisa naho ari iby'imyidagaduro kugira ngo bige ariko banishima amasomo yabo akarushaho kugenda neza baruhutse mu mutwe.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye usanga iyo bari hamwe bishimye baseka cyane biba biteye ubwuzu, aba bari aha ngaha biragaragara ko ari abanyeshuri batatu b'abakobwa buri umwe akaba yambaye karuvati, ijipo ndetse na kaki by'ishuri.

Abanyeshuri bo mashuri yisumbuye mu gihe cya Korona Virusi bigaga bambaye udupfukamunwa kandi bashyizemo intera, aha hari mu gihe cyari kigoye cyane kuko si ku ishuri gusa no mu zindi nzego abantu babaga bashyizemo intera kandi bambaye udupfukamunwa.

Abanyeshuri bo muri Kaminuza y'u Rwanda bagomba kuba bafite imashini zibafasha kugira ngo babashe kunoza uburezi bahabwa n'ubushakashatsi bakora bityo nibanandika ibitabo bizasohoke bifite ireme.

Umwana witegura kujya kwiga muri kaminuza yaba muri Kaminuza y'u Rwanda cyangwa se mu bijyanye n'ubumenyingiro aba agomba kuba yara yagize amanota meza ndetse bikaba byamuhesha amahirwe yo kubona buruse.

Studio nyinshi usanga zifashisha abantu bakiri batoya kugira ngo bazafashe imiryango kwaguka. Aha ngaha baratwereka drowing studio ko na yo ari imwe muzije vuba.

Inama rusange yahurije hamwe abarihirirwa n'umushinga wa Mastercard foundation buri umwe wese afite icupa ry'amazi imbere ye ndetse afite naji, ibirenze kuri ibyo afite n'ikaramu ari kwandika ibivugirwa aho.

Kaminuza nyinshi zo mu Rwanda, yaba izigenga ndetse n'iza leta, usanga zihurira ku kuba abanyeshuri bazigamo batigana impuzankano, nk'uko biba bimeze mu mashuri abanza cyangwa se ayisumbuye, aho buri mwana wese aba agomba kuba asa n'undi.

Kaminuza za leta ndetse n'izigenga usanga zihurira ku bintu bimwe. Aha ngaha abanyeshuri ntibambara impuzankano nk'uko biba bimeze mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho buri munyeshuri aba agomba kubasa n'undi mu myambarire.

Imbaga y'abanyeshuri bajya mu ma kaminuza ya Leta ndetse n'ayigenga usanga bajyayo bazi ko baziga nk'uko byabaga bimeze mu mashuri yisumbuye ariko iyo bagezeyo baratungurwa cyane, ni yo mpamvu iyo kwihangana bamwe muri bo bibananiye bataha.

Muri kaminuza nyinshi usanga abanyeshuri baho bakunda gukora ibikorwa by'ubushakashatsi kugira ngo bafashe igihugu gutera imbere, rimwe na rimwe hari aba abifata nk'ubusazi ariko kubera ko baba bazi icyo bashaka ntibajya bazuyaza.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda biragaragara ko ari imwe mu nyubako zari zishaje ariko aho yavugururiwe kuri ubu, abayisura bavuga ko ari imwe mu nyubako z'amakaminuza agezweho hano mu Rwanda.

Kaminuza nyinshi cyane usanga abarimu bahigisha baba bafite impamyabushobozi z'ikirenga, niyo batumiwe ngo bajye gutanga ibiganiro ku maradiyo n'amateleviziyo uba wumva batangira bavuga impamyabushobozi bafite.

Mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rukomeze gusa neza, ku mihanda imwe nimwe usanga hateyeho indabyo ndetse n'ibiti bizana umuyaga, abakerarugendo iyo bahageze by'umwihariko abaturuka mu bice bishyuha usanga babyishimiye cyane.

Ishusho igaragaza umuco gakondo by'umwihariko ku gitsina gore aho biyogosheshaga amasunzu iri mu bigo bitandukanye yaba ibya Leta ndetse n'iby'abikorera kugira ngo abahagana b'abanyamahanga by'umwihariko babashe kumenya umuco w'u Rwanda.

Mu rwego rwo kugira ngo uburezi bukomeze gutere imbere Leta y'u Rwanda ishishikariza abayobozi b'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye gukora cyane kugira ngo abajye muri kaminuza yaba iza Leta ndetse n'izigenga bazabashe kujyayo bafite uburezi bufite ireme.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda ajya asura amakaminuza y'aba ayigenga cyangwa se aya Leta akarebera hamwe uburyo imyigire yabo imeze, aha ngaha na ho biragaragara ko yari yasuye iyi Gwanzo mu Bushinwa.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, baragaragaza ko bafite ikibazo cyo kuba biga nta mudasobwa bafite. Aha ngaha nubwo bagaragara nkaho ntacyo gukora kinini cyane bafite kuri icyo kibazo, umwarimu wabo arabegera abereka izindi nzira bashobora kwifashisha.